Abantu batanu b'abagabo bahagaze harimo bane bambaye amakoti y'imikara, amashati, amapantaro y'umukara ndetse na karuvati n'undi umwe, bose bafite ibyapa by'umutuku byanditseho amagambo y'umweru ngo mu kazi kose.

Umugabo wambaye amarinete uhagaze imbere y'imodoka isa umuhondo ya MTN mo imbere hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku wanditse amagambo ndetse akaba ari kumusobanurira ibintu kuri telefone.

Inzu ya sosiyete y'itumanaho ya Airtel irimo umugabo wambaye ingofero n'ishati y'amaboko magufi y'umweru, imbere ye hakaba hari umugore wambaye umupira waje gusaba serivise.

Abagore n'abagabo bahagaze ku kazizu ka sosiyete y'itumanaho ka MTN gafite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere harimo umugore ufite imisatsi y'umukara yambaye imyenda y'umukara ari kubaha serivise.

Inzu ya sosiyete y'itumanaho ya Tigo, irimo udupfukamunwa ndetse n'imishwaro n'udusogisi, inyuma yayo hakaba hari imodoka y'umweru, ifite amapine y'umukara, hirya gato hakaba hari n'urugo rufite urugi rw'umutuku.

Umugabo wambaye imyenda ya sosiyete y'itumanaho ya Tigo ahagaze imbere y'akazu ka Tigo akaba ari guha serivisi umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inzu ntoya ya sosiyete y'itumanaho ya Eyateri iri ahantu ku muhanda, harimo umu ajenti urimo uratanga serivisi, iruhande rwe hari umugore bigaragara yuko yaje kugura amayinite.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru. Ufite imisatsi miremire iboshye n'amaherena. Yagiye ku cyuma cy'ikoranabuhanga kizwi nka ATM kubikuza amafaranga.

Umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, ushinze ahantu ku muhanda, ukaba urimo abagabo bane, batatu bambaye imyambaro ya MTN, ku ruhande hari imodoka.

Umuhanda urimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse hirya yaho haparitse n'imodoka, ku rundi ruhande hari inzu ya sosiyete y'itumanaho ya MTN harimo abagore babiri bari kwaka serivisi n'undi urimo imbere uri kuyitanga.

Abantu benshi bateraniye mu nzu y'imitako, aho hari umugore wambaye umupira w'umweru ufite mikoro mu ntoki, ufite n'umutako mu ntoki, iruhande rwe kumeza haparitse imitako y'amabara menshi y'umutuku, umweru, ububururu n'ayandi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo ikirangantego ndetse akaba afite mikoro mu ntoki hari n'iyindi iri iruhande rwe, akaba ari kuvugira ku kantu k'ameza karekare gafite ibara ry'umweru.

Igihingwa cy'inanasi giteye ahantu heza kandi hakaba harimo izeze zatukuye zijya gusa nk'umutuku, izindi icyatsi, izindi umuhondo bitewe n'uko zenda kwera.

Abagabo babiri bari mu muhanda umwe yambaye ikote n'ishati n'ipantaro, undi yambaye ishati y'amaboko magufi n'amarinete, bakaba bari kwitegereza icyapa kiri iruhande rwabo.

Abantu batanu bahagaze harimo umugabo wambaye ishati, mugenzi we wambaye umupira ndetse nabagore batatu barimo afite agasakoshi, bari imbere yameza ateretseho inkweto ndetse n'imyenda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zimbaho harimo abasaza ndetse n'abakecuru, hakaba hari n'abandi bicaye imbere yabo harimo n'uwambaye umupira w'umukara, n'undi wambaye ishati y'umweru, hakaba n'undi uhagaze hirya yabo.

Abantu benshi bateraniye mu nzu bakaba bambaye imyenda y'ubururu iriho n'ikirangantego k'Igihugu, iruhande rwabo hari umusaza wambaye ingofero ndetse n'ikote ry'umukara.

Abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba ahantu hamwe mu nzu mberabyombi, bakaba bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, hirya hari umugabo uhagaze ufite na mikoro, imbere hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Nyagatare Investment Forum.

Umugabo wambaye ishati idodesheje usa igikara, akaba afite mikoro mu ntoki ahagaze imbere ameze nk'aho ari kubwira abantu, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ahantu hashashe amabuye y'amapave, hakaba iruhande rwabo hari ibigega, ndetse n'inzu isakashishije amabati, ndetse inyuma yabo hari igiti kinini. Nyamara inyuma haragaragara ibicu by'ubururu, ndetse n'umweru.

Umugabo uri mu iduka wambaye ishati ya rokosite, imbere ye hakaba hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara urimo amabara y'umweru umeze nk'uwaje guhaha, ari kumuhereza ibicuruzwa.

Akavido gasa umuhondo, gafite umupfundikizo w'umutuku, gapfundikiye neza, bisa nk'aho gapfundikiyemo amavuta, kari ahantu hatabona neza mu cyumba cy'ijimye.

Igikombe cy'umutuku gipfundikishije umupfundikizo w'umukara hakaba handitseho amagambo ngo jambo. Iruhande rwaho hari amakarito, ndetse kurundi ruhande hari ayandi macupa abiri.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, imbere hakaba hari indobo n'umuzani n'umuntu wicayemo imbere urimo acuruza, ibyo bintu bigiye bitandukanye. Hari n'amagi.

Inzu isize karabasasu, iriho icyapa cya kanari purisi, hakurya hakaba hari iyindi nzu isize irangi ry'umweru, ifite n'igisenge cy'umutuku cy'amabati, hari kugaragara umuntu wambaye imyenda ishaje.

Umugore w'umucuruzi uri gucuruza imyaka igiye itandukanye, harimo: amagi, kokombure, inyanya, amacupa, kandagira ukarabe ndetse n'amavuta n'ibindi byinshi biri muri etejeri ikoze mu biti.

Iduka ririmo ibintu by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye: twavugamo nk'amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka y'ubwoko butandukanye, fanta ndetse n'amaji byose bigurishwa.

Iduka ricuruza imyenda y'ibitenge y'ubwoko bunyuranye harimo n'ibikapu, hasi hari abagabo bari guhaha harimo n'ibyarahani bigiye binyuranye n'umugabo uri kudoda imyenda.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse ufiteho n'amabara y'ubururu, akaba ari mu iduka ari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo: ubunyobwa, biswi, bombo ndetse n'ibindi byinshi binyuranye.

Abantu benshi bitwikiriye imitaka bakaba bari imbere y'urusengero rurerure rufiteho umusaraba, rusakaje amabati, rusize irangi ry'umukandara ry'umuhondo yubakishije n'amatafari ahiye, hirya hari n'indi nyubako.

Inyubako y'urusengero ifite igisenge cy'umutuku, hasi ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi z'umutuku ndetse n'amadirishya yumutuku ikaba isize irangi ry'umuhondo.

Urusengero rurerure cyane rwubakishije amabati atukura, amatafari ahiye ndetse rusize n'irangi, hakaba hari abantu benshi barushagaye bitwikiriye imitakaka y'amabara atandukanye, bameze nk'abaje gusenga.

Abantu bicaye ku ntebe bagera muri batanu, imbere yabo hakaba hari abandi benshi bari gufotora. Bicaye imbere y'icyapa cyanditseho ngo geda.

Abagore benshi bateraniye ahantu mu cyumba runaka barimo abateze igitambaro abandi bahagaze bareba imbere nkaho bari kureba ikintu runaka, imbere yabo hari ameza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo umukobwa ufite umusatsi w'umukara wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikanzu nziza, akaba afite telefone ari kwereka umukecuru wambaye agapfukamunwa, igitambaro n'umupira w'umutuku.

Abagabo batatu begeranye, harimo umwe wambaye ingofero ya musenyeri n'inkoni ye ndetse n'ibishura bye, akaba ari kumwe n'abandi babiri na bo bambaye ibishura, inyuma yabo hakaba hari abantu benshi.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu benshi umwe kuri buri ntebe hakaba hari umugabo umeze nk'umupadiri wambaye ingofero mu mutwe, igishura, ne mu ijosi ndetse n'ikanzu, mo imbere afite icyapa cyanditseho ngo gerayo amahoro.

Abantu benshi bari imbere ya kiliziya ifite umusaraba, yubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari n'insina. Inyuma yaho hari ibiti bigiye biteyeyo.

Abantu bambaye imyenda y'imituku, ingofero z'umutuku n'imisaraba y'umweru, bahagaze imbere y'inyubako iteye irange ry'umuhondo n'amadirishya n'inzugi nziza, imbere yaho hari icyapa.

Inyubako ndende ya kiriziya, ikaba ifite umunara hejuru yawo hakaba hariho umusaraba. Iyo nyubako ikaba isakajwe amabati ndetse yubakishijwe amatafari, ikaba ifite n'inzugi nziza cyane.

Inyubako nziza igezweho ifite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umweru ikaba igezweho cyane, harimo intebe ndetse n'igisenge cyayo kirimo amabara meza igiye anyuranye.

Saro yo mu nzu ikaba iteguye neza harimo intebe zinyuranye, ameza ndetse n'amasahani ari ku meza afite ibara ry'umweru kandi iyo nzu irimo ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Inzu nziza igezweho ifite igisenge cy'amabati y'umutuku iteye amarange y'umuhondo ifite urugi n'amadirishya byi'cyatsi, iruhande rwayo hari ikigega na jaride.

Abantu batanu barimo umuzungu umwe bicaye ku meza y'umukara ateretseho mudasobwa, ibikombe ndetse n'amacupa y'amazi bakaba barebana nk'abari kuganira.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahure birebire by'ubururu, ku mpande hakaba hariho amarido. Hasi hariho amakaro, inyuma arebebera mu kirahure hari y'intebe ndetse n'ameza, urebye hakurya hariyo inzu nyinshi.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru, kikaba cyandikishejeho amagambo y'umukara, agira ati: "MTC guest and restaurant", hakaba hariho ibyo kurya binyuranye ndetse n'aho kuryama.

Inyubako nziza igezweho yubatswe mu buryo bwa kijyambere irimo amatara meza, amarido meza asize irangi ry'umuhondo ndetse iyo uyicayemo ukaba ureba hanze, mo imbere harimo ameza ndetse n'udutebe twiza tugezweho abantu bakwicaraho baganira.

Ahantu hateye intebe nyinshi zigiye zitandukanye inyuma yaho hakaba hari ibiti bya gereveriya ndetse n'inyubako isakajije amabati, iruhande rwabo hari pisine.

Inyubako ndende y'umweru ifite inzugi n'amadirishya by'umukara, imbere yaho hari ibiti ndetse n'ubusitani basa ubururu bigaragara y'uko ari aho abantu bicara bakanaharuhukira.

Inzu iteye irange ry'umuhondo irimo n'akayetageri gateye ibara ry'ubururu ndetse n'agatebe gatoya, iruhande rwaho hari igitanda gisa umutuku gishashe neza kiriho amashoka y'umweru.

Inzu ifite icyumba kimeze nk'ubwiherero hakaba haparitsemo amacupa abiri y'amazi ndetse ku ruhande hakaba hari aho bakarabira n'aho biyumukiriza intoki hasa ibara ry'umweru.

Inyubako nziza iri mu mabara y'umuhondo, ikaba isakajwe amabati. Ikikijwe n'ibiti byinshi bigiye binyuranye, kandi inyuma yaho hari ikibuga kinini cyane kirimo ibyatsi bitoshye.

Inzu igezweho isize irange ry'umuhondo ndetse n'umweru, irimo rido z'umweru ndetse n'umukara. Muri salo hakaba harimo intebe zigezweho nziza ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ameza asa neza.

Inyubako igezweho iri mu mabara y'umuhondo ikaba isakajwe amabati, imbere yayo hari parikingi nini y'imodoka z'ubwoko bunyuranye isa umweru, imbere yayo hakaba hari igiti cy'icunga.

Inzu nziza igezweho isize amarangi y'umuhondo, irimo igitanda kiza kigezweho cyubatse neza kandi gishashe neza, kirimo amashuka meza ndetse na supaneti.

Inyubako nziza igezweho isize amarangi y'umuhondo, ifite amabati hejuru kandi ikaba ifite amarembo manini cyane ajyamo imbere, hino gatoya hashashe amapave abantu banyuramo.

Inzu nziza yubatse kijyambere iteye amarangi meza irimo amarido ariko itagaragara igisenge, irimo intebe nziza ndetse n'ameza y'umukara bitatse neza harimo n'indabo.

Ikibuga kinini kigari kirimo ibiti ndetse n'ibyatsi, inyuma yacyo hakaba hari inyubako ziteye irange ry'umuhondo ndetse zisakajwe amabati atukura ndetse inyuma y'izo nyubako hari ibiti.

Abantu benshi bateraniye ahantu hagiye hacikamo utwumba twinshi tunyuranye, hamwe akaba ari mu muryango umwe, undi abandi bakaba ari mu wundi. Aho hantu hakaba hashakakaje amabati.

Ahantu harambitse ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo amasuka, ibihiko, ibyuma, amasahane, ibikombe biri mu mabara atandukanye ndetse n'ibindi byinshi.

Ahantu haparitse amagare atandukanye ariho ibitaro ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'imifuka, hirya haparitse imodoka irimo abantu, hirya gato hari inzu isakaje amabati wagira ngo ni mu isoko.

Abagabo babiri batagaragara mu maso bahagaze iruhande rw'imifuka ndetse umwe akaba afite igiti mu ntoki ndetse n'umunzani bakaba bari kugerageza gupima ibiro by'ibintu biri mu mufuka.

Abantu benshi bateraniye ahantu hameze nko mu isoko, umwe wambaye agapira k'amaboko magufiya k'umuhondo n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru, akaba yegereye ahantu harambitse shitingi, harimo inkweto nkaho arizo bacuruza.

Ahantu hameze nko muri salo, harimo intebe zegamirwa. Imbere yazo hakaba hari n'ameza, hirya gato hakaba hari n'izindi ntebe n'ameza wagira ngo ni muri resitora icuruza ibyokurya.

Ameza agezweho ariho amasahani ndetse n'ibikombe biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari n'ibiryo by'amoko anyuranye bitetse neza.

Umumotari uri mu muhanda w'amabuye wambaye kasike afite n'indi kuri moto yambaye n'ikote ry'umukara ry'ishashi mu imbere yambariyemo igitambaro mu mutwe ari kuri moto ari kugenda ku muhanda w'amabuye.

Umumotari yaretse umugenzi mu muhanda wa kaburimbo, akaba ari kuri moto yambaye kasike, inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'umweru kiriho amabara y'umutuku, kirimo umugenzi uri mu ibara ry'umukara.

Ahantu ho mu muhanda urimo abantu benshi ndetse n'imodoka nyinshi cyane, abamotari bari kubyigana n'imodoka batwaye abagenzi bambaye kasike, imbere yabo hari inyubako ndende cyane kandi umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Abagabo bateraniye ahantu mu muhanda harimo babiri b'abamotari bambaye amajire ndetse na kasike bari kumwe n'undi w'umuzungu uri kuri moto, uri kubereka uko iyo moto ikora.

Abantu babiri barimo umugabo umwe n'umwana umwe bakaba bafite moto bari kuyireba ko nta kibazo ifite, inyuma yabo hari utubati twiza kandi twinshi mu nzu hakaba harimo irangi ry'umuhondo.

Umugabo w'umumotari wambaye ingofero y'abamotari ndetse n'impuzankano y'abamotari, akaba ari kumwe nundi ufashe kuri moto isa umukara, iruhande rwabo hakaba hari icyapa gisa umuhondo.

Abantu babiri bahagaze, umwe w'umumotari wambaye kasike, hejuru y'umutuku afite telefone mu ntoki, iruhande rwe hari moto, hirya gato hari umukobwa wambaye imyambaro y'ahantu bagurira peteroli.

Umumotari wambaye kasike uhetse umugenzi nawe wambaye kasike bakaba bari kuri moto, inyuma yabo hari umukozi wa sosiyete yitumanaho ya MTN nawe wambaye jire y'icyatsi n'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi ariko atambaye umwenda w'ubumotari, yambaye kasike n'umugenzi ahetse yambaye kasike, iruhande rwabo hari abagore babiri bari kugenda.

Umugabo w'umumotari wicaye kuri moto, isa umweru, ifite indorerwamo z'umukara, uwo mugabo yambaye kasike ndetse n'ijeri, ari kureba mu cyerekezo nku'ugiye kugenda, inyuma ye hari uruzitiro rw'ibyuma, iruhande rwe hari ubusitani.

Umugabo w'umumotari wambaye kasike afite n'indi mu ntoki akaba yicaye kuri moto, iruhande rwe akaba afite agafuka k'umweru, ku ruhande gato hari insinga z'amashanyarazi n'ibiti by'ishyamba.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda bose bambaye amajire y'umutuku ndetse bafite na kasike, umwe uri imbere ahetse umugenzi na we wambaye kasike yambaye n'umupira w'umukara.

Umuntu uri mu muhanda uri kugendera ku igare ahetse amajerekani abiri, yambaye n'ingofero mu mutwe, iruhande rwe haparitse imodoka y'umukara nayo iri kugendera mu cyerekezo gitandukanye n'icye.

Umumotari uri kuri mo muto wambaye kasike y'umutuku afite nindi kuri moto, akaba yambaye ikote ry'umukara n'ishati n'ipantaro yi kobo ndetse n'inkweto, inyuma ye hakaba hari amazu ateye irangi ry'umuhondo n'abagore bari mu muhanda.

Abamotari babiri bari mu muhanda wa kaburimbo bose bakaba bambaye kasike ku mutwe bakaba bafite n'izindi mu ntoki, bari mu muhanda bagenda hirya gato yabo hari abagabo babiri bahagaze.